Icuma kimanitse mu muhanda kirimo amabara g'umutuku n'ag'icatsi . Munsi yaco hari umuhanda gwa kaburimbo guri kunyuraraho imodoka zigiye zitandukanye haba iz'abagenzi n'iz'abantu basanzwe.

Icuma co mu muhanda gifite kamera hejuru, cegeranye n'itara rimurikiraga abantu mu muhanda, iki kikaba icuma gikoreshwaga mu gupima umuvuduko w'imodoka kugira ngo hagabanuke impanuka.

Inyubako yafashwe n'inkongi y'umuriro iri kwaka cane. Iruhande gwayo hari umugabo ufite ibikoresho byo kuguzimya, ingofero ndetse n'urusurubeti. Inyuma ye hari icintu akoreshaga ari guhumeka.

Itsinda jy'abahungu n'abakobwa b'abanyeshuri, bambaye amashati gw'umweru n'amapantalo n'amajipo g'igitaka, bakoze ikizeru bazengurutse akagunguru kari kwaka mo umuriro, n'umukobwa uhagararanye n'umupolisi bafite kizimyamoto, iri kuzimya ugwo muriro.

Abantu batanu barimo abambaye imyenda za gisirikare, bari gusuhuza umugore wambaye imyenda z'ubururu, bamuhereza ibipapuro mu kibuga c'ibyatsi by'icatsi byubatsemo ibidara bifite amadarapo g'igihugu c'u Rwanda.

Imodoka isize amarangi g'ubururu nag'umweru, ikoreshwaga n'ugwego gw'umutekano gwa Polisi, imbere yayo hari umupolisi urimo urabwira umugabo wambaye ishati.

Imodoka isize amarangi g'umukara, imbere yayo hari imbwa za gipolisi n'umugabo wambaye imyenda z'ubururu ukora mu rwego rw'umutekano gwa polisi, bari kugendera kwa hasi hakozwe n'amapave.

Amazu gubatswe ahantu hamwe harimo n'ibitoki. Mo hagati hakaba hari iri gusha irimo umuriro, Iruhande hari n'amopoto g'amashanyarazi.

Abantu b'abaturage bicaye ku ntebe zo mu ishuri, bari kureba umugabo ubahagaze imbere. Ufashe mikoro cyangwa indangururamajwi, urimo urabaganiriza imbere yaho hicaye abasirikare n'abaporisi bari imbere y'amashuri.

Abaturage bari mu nteko, bicaye ku ntebe z'abanyeshuri, barimo kureba umugore uri kubakoresha inama, abahagaze hagati kuko ari uburyo bukoreshwaga n'abayobozi kugira baganire n'abaturage.

Icumba c'umweru gifite ameza gicayeho abantu barimo ab'inzego zigiye zitandukanye ari iz'ubuyobozi iz'umutekano za polisi n'igisirikare barimo baganiriza abantu bicaye mu ntebe z'umutuku nabo barimo izo nzego.

Abantu bicaye ku ntebe bagera kuri batanu n'umugore umwe n'umupolisi umwe ukoraga mu gwego g'umutekano gwa polisi, umugore afashe mikoro arimo araganiriza abantu.

Abantu bicaye mu ntebe ari benshi, bari kureba abantu bicaye imbere barimo abakora mu nzego z'umutekano zigizwe n'iz'abasirikare n'abapolisi n'abadaso ndetse n'abacungagereza bari gukoresha inama mu baturage.

Inteko y'abaturage irimo abana n'abantu bakuru bakoze ikizeru, bicaye mu bucaca inyuma y'aho hari indangururamajwi za bafure, bikaba ari ibikorwa bihuzaga abaturage, iyo ari abayobozi bari kubaganiriza.

Igikuta cubakishijwe ibyatsi byumye, gifite isima y'umutuku imbere. Imbere harambitse ingoma zirambitse hasi h'ibitaka, kuri izo ngoma harambitseho imirishyo ikoreshwaga kuzivuza.

Umugabo wambaye ibirenge, uri kugenda mu muhanda gw'ibitaka, yikoreye umuvure bakoreshaga bari gukwenga ibitoki ndetse no gukama umutobe, akaba yegeye umurima we w'ibigori.

Abakobwa babiri bambaye inshabure, umwe yikoreye ikibindi, undi agifashe mu ntoki, bahagaze mu byatsi, hejuru bakaba bambaye ubusa, bukaba ari uburyo bwambagwaga n'abakobwa ba cera.

Ibiti by'imigano batemye bakarundanya ahantu hamwe bisa nk'icatsi, kabari ibiti bakoragamo utubati tubyegereye bashiraga mu mazu.

Inzu eshatu zubatswe mu buryo bwa cyera zirimo imikumbi y'inka z'amahembe maremare z'inyambo zibonekaga ahantu hacye mu rwanda bukaba ari uburyo bwubakwaga mu gihe c'ubwami.

Umurima munini urimo ibi byatsi by'icatsi harimo na sima, imbere ya byo hari igihingwa c'isogo gifite amababi g'umweru, kikaba ari igihingwa kivuraga mu nda.

Abakobwa babiri bicaye umwe imbere ye hari igisabo, akaba yambaye umukenyero ufite ibara rya oranje ndetse yambaye n'agasengeri k'umweru.

Abantu benshi bashungeye hariho abagabo bane bateruye umuntu mu ngobyi, ku rutugu akaba ari ingobyi zikogwaga mu birago, bakazirikaho ibiti bagaterura ku umuntu ugwaye.

Umugabo n'umugore bambaye imikenyero, umugore akaba aniteze n'akantu k'umwero ku mutwe, umugabo akaba yambaye ikamba rya kera ry'abami, bakaba ari abami babayeho mu gihe cya kera.

Abantu b'abagabo bambaye ibitambaro hasi, hejuru bambaye ibituza, bahagaze imbere y'ingoma, hari n'abandi bafite amacumu n'ingabo zabo, bicaje abantu bane hasi, bambaye na bo guco.

Inzu yubakishijwe ibyatsi , izengurutswe n'igipangu c'ibiti , ifite ama esikariye imbere, zikaba ari inzu zaturwagamo n'abakurambere bo mu gihugu c'Urwanda ba kera.

Abagabo batatu basutamye imbere y'inzu yubakishijwe ibyondo, hagati yabo hakaba harimo umuvure bakoreshaga bari gukama ibitoki, kugira ngo havemo umutobe cyangwa ngo bakoremo urwagwa.

Itsinda ry'abakobwa, bambaye imyenda za kinyagwanda bambaye n'ibinigi mu ijosi, bamanitse amaboko, barimo barabyina umuco gwa kinyagwanda, gw'imbyino imbere y'abantu mu kidara c'umweru.

Utuyetajeri dukorewe ku rukuta turambitseho ibihangano bikoreshwaga intoki, birimo ibitebo utuntu babikagamo ibintu bigiye bitandukanye n'udutako twa kinyagwanda.

Umugabo wicaye ahantu hirengeye wambaye ishati n'urunigi afashe igikoresho gikoreshwaga mu gukora umuziki gwa kera c'inanga bakoraga mu biti bakazika imigozi.

Ibihangano bibiri by'ibiseke harimo ic'umukara n'umuhondo, icindi c'umuhondo mwinshi n'umukeya birambitse hasi, akaba ari ibihangano bikoreshwaga intoki.

Inzu yubakishijwe ibyatsi ndetse n'ibirago bijombyeho ibiti hejuru ,bikaba byubatswe nk'umuco gwa kinyagwanda ,akaba ari zo nzu abantu ba kera bararagamo.

Icyuma gitambitse gifashe amacumu menshi basize amarangi g'umweru hejuru, hasi gasize amarangi g'umukara, ikaba ari ibikoresho byakoreshwaga n'abakurambere, igihe babaga bagiye guhiga inyama.

Abagore bane bambaye imikenyero za oranje bambaye n'ibinigi mu ijosi barambuye amaboko barimo kubyina umuco gwa kinyarwanda. Ibi bakaba babikoraga bari gutaramira abantu.

Icimera c'isogo gikuraga mu mirima bagiteye. Cikaba ari icimera kiribwaga cane n'abacecuru ndetse cikaba cinavuraga no mu nda iyo umuntu agwaye inzoka zo mu nda.

Abantu batandatu bambaye imyenda z'ibitambaro hasi, hejuru bambaye ibituza bafashe mu ntoki imiheto, akaba ari abantu ba kera bakoreshaga ibyo biti, kugira ngo bahige inyamaswa.

Abantu benshi b'abagore bambaye imikenyero z'umweru barambuye amaboko bamwe bafashe ibitebo n'ibiseke, barimo kubyina umuco gwa kinyagwanda, imbere yabo hari abana batatu b'abahungu babiri n'umukobwa umwe.

Ingorofani ebyiri zipine rimwe, zikoreshwaga mu gutwara ibintu z'ibijana ahandi. Zegereye ku cuma zikaba zikundaga gukoreshwa, mu gutwara amafumbire, no ku maseta bubakagaho.

Umugabo wambaye imikenyero ufite mu kanwa inkono y'itabi bakoreshaga bari kunywa ibikamba, akaba yaniyogoshesheje isunzu, bukaba ari uburyo bwa kera bwakoreshwaga n'abakurambere.

Ibikoresho bya cinyagwanda bya cera, ari byo: inkongoro z'amata ndetse n'ibisabo birambitse ku mikeka ziboheshwaga intoki, mu nzu irimo ibirago hejuru ndetse n'amarangi gw'umutuku.

Abantu b'abagore bambaye udutenge ndetse n'udupira hejuru, bamanitse amaboko bari kubyina, umuco gwa kinyagwanda, bikaba ari ubujyo bukoreshaga imbyino za kera.

Abantu bambaye imyenda za kinyagwanda b'urubyiruko, bambaye inkindi ndetse n'ingabo n'amacumu n'imigara ku mutwe, barimo kubyina umuco gwa kinyagwanda, bahagaze hasi hari ibyatsi by'icatsi.

Akazu gatoya gafite umuryango gufunguye, imbere yaho hari ikibuga cubakishijwe na sima cegeranye n'akantu k'umukara, imbere yaho hari ameza g'umuhondo garambitseho ibiseke bigiye bitandukanye byo mu mabara g'umweru n'ag' umuhondo.

Itsinda ry'abantu b'abagabo bambaye imikenyero n'abagore bambaye imikenyero bafashe udukoni bazamuye hejuru. Ubu akaba ari uburyo abakuze ba cyera babyinaga bari mu gutarama.

Inzu yubakishijwe ibyatsi, mu mujyango harimo igiti ndetse na sima y'umutuku irimo akarongo k'umweru, ikaba ari inzu inazengurukijwe ibyatsi, zikaba ari inzu zabagamo abami ba kera b'u gwanda.

Abakobwa batatu bararamye bambaye imikenyero z'ubururu, bafashe imirisho mu ntoki bari kuvuza ingoma, bakaba barimo baragaragaza umuco gwa kinyagwanda mu mbyino.

Umugabo wambaye umwitero afite umutwe wogoshe inyogosho ya kera y'amasunzu. Zikaba ari inyogosho zogoshwaga kera abantu mu muco wa kinagwanda.

Imiduri itatu irambitse hasi ku ma pave ibi bikaba ari ibikoresho byakoreshwaga n'abakorambere igihe babaga bari gukora umuziki aho bafata igiti bakagihina bakarambika agacuma gakase n'umugozi kugira bakora umuziki.

Abagabo batandatu bambaye imyenda za kinyagwanda z'incabure, ndetse bambaye ni ni n'ingabo n'amacumu n'imigara, barimo kubyina umuco gwa kinyagwanda.

Umugore wambaye igitenge n'agapira wicaye hasi afashe mu ntoki ikibindi ari kubumba, inyuma ye hari inzu yubakishijwe ibitaka akaba ari ubujyo bakoragamo amasafuriya ga kera.

Abana bane bari ahantu h'ibitaka bambaye ibituza hejuru, harimo umwe wambaye agapira k'umweru, bashinze ibiti hasi bakazirikaho umugozi, barimo kurusimbuka. Ibi bikaba byitwa gusimbuka urukiramende.

Abagabo bane bambaye imikenyero za kinyarwanda arizo inkindi, bambaye n'urunigi ndetse n'imigara ku mutwe, bafashe n'amacumu bari kubyina umuco gwa kinyarwanda gw'intore.

Igisabo c'umutuku kirambitse hasi mu byatsi byumye, imbere y'inzu yubakishijwe ibyatsi, ikaba ari inzu zabagamo abami, zikaba zigaragaza umuco wa gwa kinyarwanda.

Igipangu c'ibyatsi ,imbere yaho hari agacaca ndetse n'akayira k'ibitaka ,birambitseho igitebo cegeranye n'isekuro irimo umuhini bakoreshaga bari gusekura isombe.

Umugore wambaye igitenge, ufashe mu ntoki ibyatsi. Akaba yicaye ku birago, ku ruhande gwe hari ibikoresho by'ibihangano babohaga mu byatsi, akaba arimo kugaragaza uburyo babikoragamo.

Isafuriya y'inkono ibaga ikozwe mu bitaka irambitse hejuru y'inkwi bakaba batetseho ibijyo, ku ruhande hari indi safuriya y'icuma ifite rushe hejuru ,akaba ari ubujyo batekeraga mu caro.

Itara rya ampure ririmo ibintu by'ubururu, rirambitse ku meza y'ibibaho. Aga akaba ari amatara bamanikaga mu nzu, kugira ngo urumuri rubashe kuza kandi rusa nk'ubururu.

Icuma c'umweru canditseho amagambo g'umukara, kigiye kirimo utubuto bakanda n'utwo bazamura, hariho n'utwo bakaraga, kikaba ari icuma cifashishwaga kwa muganga mu gupima ibintu bigiye bitandukanye.

Agakoresho kariho amabuto k'umweru kariho n'ikirahuri. Akaba ari agakoresho kifashishwaga kugira ngo bakupe umuriro igihe habaye ikibazo, cyangwa se igihe bagiye gukora mu mashanyarazi mu nsinga.

Icuma c'umukara gifite akantu k'umweru hejuru n'udutobore dutaratu, kikaba ari icuma kiriho imigozi z'amashanyarazi ku mpande z'umutuku niz'umukara.

imashini y'umweru n'umukara icometse irambitse ku makaro, ikaba ari imashini ikoreshwaga mu gufotora impapuro mu mapapeteri zifashishwaga mu gutanga ibyangombwa.

Igikoresho c'umutuku kirambitse ku makaro, gifite utuntu tw'umukara n'amagambo gw'umweru, iki kikaba ari igikoresho kigezweho cyifashishwaga imirimo z'igihe zitandukanye.

Aka enterebuteri k'umweru, karimo insinga z'ubururu n'iz'umutuku, kakaba ari aka interebuteri kifashishwaga mu gukupa umuriro, ndetse no kuwukupura kugira ngo inzu ida inzu zidasha.

Ubwuma bubiri bw'umukara bufite ubu buto bubiri ubw'umutuku n'ubw'umukara, bufite n'imigozi zigiye zibuciyemo n'izindi ziri ku ruhande, ubu bukaba ari ubwuma bwifashishwaga mu gutangiza mu mashini.

Inzu y'ubururu isize amarangi g'umweruru, imbere yajo hari ikirundo c'ubwatsi bwumye, mu muhanda gw'ibitaka iruhande rw'inzu hakaba hari ibimera by'icatsi bitandukanye.

Inzu yubatse ku muhanda y'amabati yasanzwe ndetse isize amarangi g'umweru, iparitseho imodoka y'umweru. Inyuma y'iyo modoka hamanitse idarapo jya efuperi jy'umweru.

Inzu zisize amarangi y’umweru， iriho irembo ry'ubururu imbere， ku ruhande rwayo hateye ibimera bitandukanye， ndetse hari n'akabuga k'amabuye imbere yaho.

Umuhanda g'umukara guciyemo imirongo z'umuhondo, gufite ku mpande aho abanyamaguru banyuraga hakozwe n'amapave, hegeranye n'ibiti ndetse n'ubucaca bw'icatsi bwegeye umusozi.

Inzu y'amatafari g'umutuku hejuru yayo ari ibirahuri bikoze mu musaraba, imbere yayo hari abantu benshi ndetse n'imodoka y'umukara niy'umweru ikaba ari inzu zikoreshwaga mu gusenga.

Inzu zubatse zisize amarangi y'icyatsi, ndetse ku bikuta bikaba byubakishiewe amabuye, hahagaze umurongo w'abantu bahagaze mu kabuga k'ibitaka karambitsemo atene.

Inzu isakarishijwe amabati, ku rukuta hakozwemo n'ibiti, hejuru hariho n'icapa c'umweru cigaragazaga ko ari urusengero, hasi hari inzugi z'ibyuma akaba araho abakirisitu basengeraga.

Inzu isakarishijwe amabati y'umutuku, ifite urukuta rwubakishijwe amabuye y'umukara asizemo n'umweru, imbere ya yo hakaba hari ubwatsi bunini bw'icyatsi, zikaba ari inzu zubakwaga kera bagitangira kubaka inzu zigezweho.

Inzu zifite amabati g'ubururu n'ag'umweru zifite ubwatsi bw'icatsi, n'imbere n'inzira y'ibitaka y'abanyamaguru zifite igipangu cy'umweru, kinyuragamo imodoka iruhande rwaco naho hari ubwatsi bw'icatsi.

Inzu ndende y'amagorofa ane isize amarangi g'umutuku n'ag'umuhondo, ikaba ari inzu zikoreshwagamo ibintu bigiye bitandukanye hakaba hari n'igihe bazigiragamo.

Umuhanda gwa kaburimbo ku ruhande hari umusozi guriho ibyatsi, no ku rundi ruhande hari imbuga y'ibitaka barunzeho, ikaba ari imihanda zubakagwa kugira ngo abaturage babashe guhagirana.

Inzu yubakishijwe amabati g'icatsi ifite inkuta zisa nk'umutuku zisizeho n'amarangi g'umuhondo, ifite urupangu gw'ibyuma g'umweru, imbere yajyo hari icapa gisa umutuku n'umweru kigaragazaga ibyo bakoragamo.

Umuhanda gwa kaburimbo gurimo imirongo y'umweru, iruhande rwayo hari ruhurura iriho icapa c'ubururu gihagazeho umuntu kigaragaza paruwasi, ibi bikaba ari ibyapa bikoreshwaga kugira ngo hagaragaze aho ibintu biri, cane cane insengero.

Ikiraro cubakishijwe imigozi n'igihe zitandukanye kikaba ari ikiraro cambukigwagaho n'abantu baje kure ubwiza bw'igishamba kikaba ari kiri no mu biraro bikururaga ba mukerarugendo.

Ikiraro kinini cubakishijwe ibyuma, bikaba ari ibi birararo byubakwa kugira ngo abantu babashe kuba batambuka, iyo aho hantu hari umugezi gw'amazi gwushobora kuba gwabatwara.

Inzu yubakishijwe amabati g'icatsi ifite ku ruhande rw'amabati hasa umweru hubakishijwe ibiti ku rundi rukuta rw'amatafari matoya. Imbere y'iyo nzu hari abantu bari kuganira.

Abantu benshi barimo m'umugore bambaye udupfukamunwa, bari kugendera ku kiraro c'ibyuma, bacubakaga kugira ngo abantu batambuka amazi menshimeenshi.

Inzu isakarishijwe amabati g'umutuku ifite inkuta z'umweru, imbere yaho hari indabo n'ibyatsi by'icatsi byinshi, biparitsemo imodoka ebyiri iy'umukara ndetse n'iy'ikijuju.

Itsinda ry'abantu ririmo abagabo ndetse n'umugori bazengurutse ikintu kiriho amase menshi, bafashe ibitiyo barimo kuyajugunya hejuru akaba ari ukugira ngo abore bazayakoreshe bari guhinga.

Inzu y'amagorofa abiri y'umuhondo, ifite amabati gw'umutuku, kuri yo ndetse no hasi imbere ya yo hari abanyeshuri bambaye amashati gw'umweru n'amajipo gw'umukara, bakaba ari abakobwa.

Inzu ndende y'amagorofa abiri yubakishijwe amabati g'ubururu, isize amarangi g'umuhondo, imbere yayo hari imodoka y'imbangukiragutabara, zikaba zinafite n'igipangu c'umweru.

Inzu y'umweru ifite amatafari gahiye matoya, ku mpande yo ku rukuta, imbere yayo hakaba hari ibyatsi birimo igipangu c'i byuma, iruhande rw'ico gipangu hakaba hari umuhanda gw'amabuye.

Inzu ndende y'amagorofa abiri isize amarangi g'umuhondo isakarishijwe amabati g'umutuku, munsi yaho hakaba hari ahandi hubakishijwe ibyuma na bo basakarishijwe amabati g'umutuku.

Inyubako ndende y'amagorofa atatu, imbere ya yo hari agapangu k'ubururu, inzugi n'amadirisha zikaba ari ubururu. Imbere ya zo hakaba hari ubwatsi bwiza bw'icatsi, imbere y'ubwatsi na ho hakaba hari akayira k'abanyamaguru.

Inzu yubakishijwe amabati g'ubururu ndetse n'amatafari matoya, isizemo uturongo tw'umuhondo, imbere yayo hari ravabo y'amakaro, bakarabiragaho intoki.

Inyubako nini isize amarangi g'umuhondo ifite amadirisha g'umukara, ikaba ari inyubako ikoreragamo cane ibigo bya Leta, ikaba ifite ubwatsi bw'icatsi imbere yago.

Umuhanda gwa kaburimbo guciyemo imirongo z'umweru n'iz'umuhondo, gwegeranye na bariyeri yo mu muhanda y'umutuku n'umweru. Byegeye umusozi guriho amayesikariye menshi.

Imashini zigezweho akaba ari imashini y'umweru ifitemo n'amabara g'umukara, ikoreshwaga mu kwepirima impapuro, yegeranye n'imeza irambitseho kompiyuta ikoreshwaga n'abantu barimo gukora akazi kagiye gatandukanye.

Inyubako ndende isakarishijwe amabati gumutuku isize amabara gumweru ku mpande imbere yayo hari umucaca gw'icatsi mwiza uteyemo ibiti byinshi hariho n'umuhanda uri kunyuramo amamodoka.

Ikiraro kinini c’ubururu cubatse hejuru y’umugezi, gusa n’ibitaka. Ibi bikaba ari ibiraro byubakwa na Leta kugira ngo abaturage babashe guhahirana, bitewe n’uko munsi yabyo habaga harimo amazi menshi.

Inzu zubakishijwe amabati g'ubururu, mu nsi yazo hubakishijwe amatafari gashushanyijeho imirongo g'umuhondo, imbere yaho hari icibuga c'icatsi, hakaba hari kunyuramo abantu.

Amazu menshi gubakishijwe amatafari, matoya amazu g'amagorofa gafite ubucaca imbere yabwo ubucaca, buzengurutsweho n'imihanda zirimo imirongo z'umweru n'izumuhondo.

Inzu zifite amabati gashaje imbere yazo hari ikibuga kinini c'ibyatsi, gifite igipangu cyubakishijwe ibyuma by'umweru inyuma yaco hari umuhanda gw'ibitaka gw'amabuye.

Inzu isakarishijwe amabati gasanzwe ifite urukuta rwubakishijwe amabuye ruriho umujyango, imbere y'uwo mujyango hariho ingoma ikoreshwaga mu gucuranga ingoma za cera ndetse n'ikibuga c'icatsi.

Icuma ciri hagati mu muhanda k'ikizeru cy'umutuku harimo akabara k'umweru hagati, cyandikishijwemo mirongo ine, ibi bikaba ari ibyapa bigaragazaga umuvuduko gukoreshwaga aho hantu.

Itsinda jy'abantu ririmo abagabo n'abagore, harimo n'umugore wambaye igitenge ufashe mikoro ariyo y'indangururamajwi arimo kuvuga, iki gihe bikaba biba ari uko hari abaturage bari kugeza ku bayobozi ibibazo byabo.

Abagabo batatu n'umugore umwe bicaye imbere, harimo abashinzwe umutekano mu gwego gw'abapolisi ndetse n'ugw'abasirikare. Harimo umugabo wambaye nk'abaturage ufashe mikoro arimo arabwira abantu mu nama.

Itsinda jy'abantu, jy'abaturage barimo abagabo n'abagore batonze umurongo, uw'imbere afite indangururamajwi ya mikoro arimo aravuga ibibazo bye, aha akaba ari mu nteko z'abaturage.

Inteko y'abaturage bicaye ku ntebe z'umweru, mu kidara c'umweru, imbere yabo hari umugore uhagurutse ufite indangururamajwi arimo aravuga ibibazo bye.

Itsinda jy'abantu rigizwe n'abagore biteze ibitenge, bicaye hasi mu bucaca bakoze ikizeru barimo barareba imbere. Ubu bukaba ari uburyo buba iyo mu giturage hari kuba inteko cangwa hari umuyobozi wabasuye.

Abantu benshi bakoze ikizeru harimo abagabo n'abagore bakaba bazengurutse umugore urimo urabaganiriza ahagaze hagati zikaba ari inama z'inteko z'abaturage

Inzu ndende y'amagorofa atatu z'umuhondo, iri imbere y'ahantu hari utuzu twinshi tw'ubururu, turi mu muhanda g'umukara gushushanyijeho imirongo z'umweru. Iriho abantu batonnze umurongo n'amamodoka.

Inzu yo ku muhanda ishushanyijeho amarangi menshi. Imbere yayo akayira k'abanyamaguru k'amapave, kegeranye na moto ikinyabiziga gitwara abantu babiri, kiriho umumotari n'umuzungu.

Inzu zubakishijwe amabati g'ubururu, zifite ibikuta by'umutuku byegeranye n'akazu karekare k'umutuku, kegeranye n'imodoka nyinshi ziparitse z'umweru zikoreshwaga mu gutwara abantu.

Imodoka nini y'ifashishwaga mu gutwara abantu y'icatsi, ikurikiwe n'akamodoka gato ya k,abantu gasanzwe, rikaba ari imodoka, ziri kugendera mu muhanda gwa kaburimbo guciyemo uturongo.

Imodoka nini iparitse y'amabara g'umweru ndetse n'ubururu, iyi ikaba ari imodoka zikoraga mu mihanda myinshi zo mu mujyi, itwaraga abantu ibajana ahandi, ikaba ari imodoka bitaga Shirumuteto.

Umusozi munini guteyeho biti, imbere yago hari umuhanda g'umukara gusize zimirongo z'umweru ,paritsemo modoka nyinshi za kwasiteri zitwaragamo abantu, the zibavana ahantu bamwe zibajana ahandi.

Umurima munini gw'ibitoki bihinze wegeranye n'umuhanda gw'ibitaka guri kunyuramo imodoka y'umweru yatwegerane yegeranye n'umunyonzi uhetse imifuka ibiri bikaba ari uburyo bwa taransiporo bwifashishwaga mu caro bari gutwa ibintu.

Abantu batanu barimo n'umugore bahagaze imbere yibikarito birambitse ku mamashini abijanaga inyuma yaho hari indege ikoreshwaga mu gutwara abantu ibavana mu Gwanda ibajana ahandi n'ibintu byabo mu bujyo bworoshe.

Imodoka nini y'umweru n' ubururu yanditseho amagambo g'umutuku heruru, ikaba ari imodoka zegeranye n'izindi muhanda w'umukara, ikaba ari imodoka zikoreshwaga mu gutwara abagenzi.

Abantu benshi bahagaze n'abari kugenda begeranye n'iyi modoka nini ,ikoreshwaga mu gutwara abantu ibavana ahantu ibajana ahandi y'umweru n'ubururu, iparitse ahantu habaga n'andi mamodoka menshi.

Ikiyaga gifite amazi g'icatsi, giparitsemo amato abiri yifashishwaga n'abantu kugenda bava ku mwaro gumwe baja ku gundi. Haparitsemo n'ubwato bw'ibiti burimo abantu gupakurura imizigo.

Inyubako ndende y'umweru yubatswe imbere y'umusozi munini guriho ibiti byinshi, imbere y'iyo nyubako hari imodoka nyinshi z'umweru, zikoreshwaga mu gutwara abagenzi.

Abantu bagiye batandukanye barimo kugenda n'abandi bahagaze, bari ahantu hari imodoka nyinshi zifashishwaga mu gutwara abagenzi arizo za kwasiteri, zikaba ari imodoka zitwara abantu zibavana hamwe zibajyana ahandi.

Inzu y'ubatswe ku muhanda y'amarangi y'umuhondo, irimo amabotike gatandukanye gacuruzaga amamatora, ndetse n'amabati imbere yago harimodoka y'ikotineri, barimo gupakurura sima.

Imodoka y'imbagukiragutabara, yanditseho amagambo y'ubururu aciyeho akarongo k'umutuku， iparitse ku mapave, iruhande rwayo hariho umugore wambaye agapfukamuwa, hakaba hari imodoka zitwara abagwayi.

Abantu batonze umurongo bari kwinjira mu modoka ifite amarangi g'umutuku n'icatsi n'umweru. Akaba ari imodoka nini zikoreshwaga mu kujana abantu, zibavana hamwe zibajana ahandi.

Igikamyo kinini c'umutuku gihetse amakontineri abiri g'ubururu gaciyemo imirongo z'umuhondo, bikaba ari ibikontineri bikoreshwaga igihe bari gutwara ibicuruzwa, babivana ahantu hamwe babijana ahandi.

Umuhanda gwa kaburimbo g'umukara guciyemo akarongo k'umweru gwegeranye n'agahanda k'abanyamaguru k' amapave, gaparitsemo ibinyabiziga bibiri bya moto byifashishwaga mu gutwara abantu.

Uruja n'uruza rw'abantu bari kunyura mu muhanda rwa kaburimbo iririmo n'imodoka zigiye zitandukanye ndetse n'ibinyabiziga bya moto, bikaba bikundaga kuba mu mijyi cane ahantu habaga ibinyabiziga byinshi.

Ikiyaga kinini gihagazemo amato menshi ahagaze mo abantu, muri ago mato hakaba harimo n'ubwato bugezweho, ku ruhande hakaba hari itsinda ry'abantu barimo n'abashinzwe umutekano w'abapolisi.

Inzu yubatswe mu bujyo butangaje isize amarangi g'umuhondo n'ubururu ,imbere yayo hari imihanda z'umukara zisizemo amarangi g'umweru ,iyi ikaba ari inzu y'ikibuga c'indege aho abantu bafatiraga amatike.

Itsinda ry'abagabo bahagaze ku binyabiziga by'amapine abiri y'amagare. Bikaba byifashishwaga mu gutwara abantu, bavana ahandi ndetse n'ibintu mu turere twinshi two mu gihugu.

Umuhanda g'umukara gusize amarangi g'umweru, gwegeranye na kayira k'abanyamaguru gakozwe n'amapave, Ku ruhande hari imbuga y'ibitaka irambitsemo amagare gakoreshwaga mu gutwara abagenzi.

Inzu yubakishijwe ibyuma, isize amarangi g'umuhodo. Ndetse mu madirisha hakaba harimo ibirahuri. Imbere yayo hari abagabo bicaye ku binyabiziga bitwaraga abagenzi bya moto.

Imodoka za Fuso zifashishwaga mu gutwara ibintu zibijana ahandi ziparitse mu muhanda gw'ibitaka, iruhande hari agahanda k'abanyamaguru na ko k'ibitaka, iyo modoka ikaba itwaye ibintu bimeze nk'amategura.

Akazeru kagapaniye kazengurukijeho imishipiri z'umweru kegeranye n'intoki z'abantu benshi bari gufata ku mupira gwa basikete ukaba ari umukino gukinishwaga amaboko.

Itsinda ry'abantu b'abahungu bambaye amajezi, imyenda ya siporo y'ubururu ndetse n'agakabutura k'umukara. Bicaye ahantu abafana bicaraga hasa umuhondo n'ubururu.

Abakobwa babiri bambaye imyenda z'ubururu bafashe mu ntoki imipira za basikete. Umukino bakinishaga amaboko bakaba bahagaze mu kibuga cy'umutuku, giciyemo imirongo z'ubururu n' iz'umweru n'umuhondo.

Abantu babagabo bari gukina umupira gwamaguru, arimo bambaye imyenda z'umweru namakabutura g'umukara, bari gukina nabambaye imyenda z'ubururu, bakaba bakina umukino bakinishaga amaguru.

Abakobwa bambaye imyenda za siporo z'amasengeri g'ubururu n'amakabutura g'ubururu, bari gukinana umukino gw'amaboko n'abandi bambaye imyenda z'icatsi, akaba ari umukino bakinaga bicaye ari umukino w'abafite ubumuga.

Umupira gwa balo gw'amabara g'umuhondo ,ubururu n'umweru gukaba ari umupira gukoreshwaga mu gukina umukino gw'amaboko gwa vole hakaba harimo na fire.

Ikibuga kinini c'ibyatsi kirambitsemo ibyuma bibiri by'umukara, biziritseho inshundura z'ubururu zimanitse hejuru. Ikibuga kikaba kizengurutswe n'ibiti bi bitandukanye, akaba ari aho bakiniraga umukino gw'amaboko gwa vore.

Itsinda jy'abantu rigizwe n'abahungu n'abakobwa bicaye kuri sima, bambaye imipira zisa za oranje n'ingofero n'ubukabutura ndetse n'inkweto, bicaye inyuma y'amabaro gatanu za baskete, umukino bakinishaga amaboko.

Abagabo benshi bambaye amajire ndetse n'amakabutura harimo abambaye ag'icatsi n'abandi bambaye umweru bari gukina umukino gw'amaboko gwa basikete imbere ya paniye batsindiragamo.

Abakinnyi bambaye jezi z'umukara n'umweru bari gukina n'abambaye jezi z'ubururu zirimo uturongo tw'umuhondo, bari gukinira mu cibuga c'icatsi cizengurutswe n'abantu bari gufana.

Abantu barimo abagabo n'abagore barimo abambaye udupira tw'icatsi n'abambaye ibisarubeti by'ubururu, bakaba bakoraga mu ruganda rutunganya ibintu bigiye bitandukanye, bakaba bicaye mu bwatsi bw'icatsi.

Abantu b'abasore b'urubyiruko bambaye udupira tw'umweru n'amakabutura g'ubururu, bari gukina n'abambaye amasengeri g'ubururu n'amakabutura g'ubururu. Bari gukina umukino gw'amaboko gwa basikete.

Ikibuga c'icatsi, cegeranye n'akandi kabuga k'umutuku kaciyemo imirongo z'umweru, kari kunyuramo itsinda ry'abantu b'abakobwa, bambaye udukabutura n'udusengeri barimo kwirukanka umukino gwa atereti.

Abantu benshi b'abagabo bari munsi y'ikintu kitambitse ku mapave gaciyeho umurongo bicaye ku magare, bambaye utwenda tubafashe n'ingofero mu mutwe, bakaba bagiye mu mukino gwo gusiganwa ku magare.

Abantu benshi b'abagabo bambaye imyenda zitandukanye, ari abambaye iz'umutuku n'udukabutura tw'ubururu n'abandi bambaye umukara, bari gukina umukino gwa Vole harimo file hagati.

Itsinda ry'abantu ririmo abagore n'abagabo bahagaze bari kureba abagabo babiri bambaye ingofero , barimo gutwara imodoka ariko bicaye ahantu hamwe , akaba ari imikino yazanye yo kuba umuntu yatwara imodoka yicaye hamwe.

Abakobwa babiri umwe wambaye imyenda z'umukara, undi wambaye imyenda z'ikijuju, bakaba bafashe baro mu ntoki y'ubururu n'umweru, bakinishaga umukino gw'amaboko gwa Hendiboro, bombi bakaba bahagaze muri ico kibuga c'uwo mukino.

Umukobwa witeze akantu mu mutwe wambaye imyenda zimufashe z'umutuku, ufashe mu ntoki agakoresho bakoreshaga mu gukina umukino gw'amaboko gwa tenisi.

Abantu babagabo bari gukina umukino gw'amaboko gwa volley, harimo abambaye umweru, n'abandi bambaye imyenda z'ubururu, bari gukinira kuri fire imanitse y'umweru, barimo gufanwa n'abantu benshi.

Abantu bahagaze iruhande rw'umugabo wambaye ikabutura n'agapira, ufashe igikombe mu ntoki akizazamuye. Inyuma ye hari ibyapa by'umukara ndetse n'umugabo urimo gukoma amashi, bukaba ari uburyo bwifashishwaga mu guhemba uwatsinze umukino runaka.

abagabo babiri umwe w'umuzungu undi w'umwirabura w'umuzungu ufite baro ya basikete bakinishaga amaboko bombi bahagaze mu kibuga akaba ari ikibuga gikoreshwaga mu gukina uwo mukino

Itsinda jy'abana bahagaze harimo n'abahungu babiri n'abakobwa babiri bafashe mu ntoki udukoresho bakinishaga umukino gwa tenisi, bahagaze mu kibuga cayo harimo na file bakiniragaho.

Abagabo batatu bambaye udupira n'udusengeri hasi bakambara udukabuto tubafashe bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho gusurwa ndaca umukara aba bakaba ar'abakinnyi batwaraga amagare.

Itsinda ry'abagbo bambaye imyenda zibafashe, bambaye n'ingofero, bahagaze hejuru y'amagare gabo bakoreshaga mu masiganwa g'amagare.

Abagabo batatu bambaye imyenda zibafashe, barimo babiri bambaye udupira tw'ubururu n'undi wambaye agapira k'umutuku bari kunyonga amagare, bari mu masiganwa ku mukino wa turu du rwanda.

Umukobwa wambaye agasengeri ndetse n'agakabutura gatoya, ufasha mu ntoki agakoresho bifashishaga bari gukina umukino gw'amaboko gwa tenisi, akaba ahahagaze mu kibuga c'ibitaka, inyumaco hariho icapa c'icatsi.

Umukobwa wambaye amarinete uri muri pisine isa nk'-ubururu urimo aroga ugo umukino abantu bakinaga bari koga mu mazi ya pisine.

Abakobwa bahagararaga n'abagabo bakaba bakinaga umukino gw'amaboko gwa basikete bakaba bapfukamye mu kibuga bakiniragamo ugo mukino mu nzu ibaga irimo abafana benshi

Umukobwa wambaye umupira w'umukara, n'ikabutura y'umukara bya siporo, afashe balo ntoya mu ntoki, yifashishwa gukina umukino w'amaboko wa handi bolo, inyuma hari igipangu cy'amabara menshi, ndetse n'igikuta.

Inyubako zo ku muhanda zisize amarangi g'umuhondo zifite imijyango z'umutuku zegeranye n'imodoka, iruhande rw'imodoka hari umuhanda g'umukara gusiza amarangi g'umweru.

Akayira k'ibitaka gakikijwe n'ibyatsi birebire, utu tukaba ari utuyira dukundaga kuba mu byaro ndetse akaba ari utuyira abantu banyuragamo kugira ngo babashe guhahirana.

Amazu gafite ibipangu by'indabo yegeranye n'umuhanda uri kunyuramo ikinyabiziga ca moto kaba ari umuhanda g'umukara guciyemo imirongo z'umweru ici kinyabiziga kikaba gitwaraga abantu ahantu h' ikibajana ahandi.

Itsinda ry'inzu ririmo amaduka imbere yaryo hari itsinda ry'abantu bari kugurisha ibintu, bahagaze ahantu h'ibitaka aga akaba ari amaduka gubakwa ku muhanda kugirango abaguzi babashe kuba bagageraho byoroshe.